Ni umusirikari uri mu ishyamba ,uhetse igikapu ,wambaye simoko. Afite imbunda yambaye n'ingofero.

Bari mu nama bicaye ku ntebe, buri wese afite agakayi n'agakaramu, ndetse n'amazi mu gacupa, kandi barimo gucurira.

Ni abasirikare b'u Rwanda bicaye, ni batandatu bahari inyuma y'aho hariho abandi.

Ni abantu bari mu nama abagabo, abagore, buri wese afite ikayi n'ikaramu mu ntoki, bambaye n'ibimenyetso bibaranga.

Abaturage bicaye imbere y'ishuri, harimo abagabo, abagore, abakobwa n'umusirikare ari kubaremesha inama.

Iyi ni kamera ifite amashami atatu. Iburyo, ibumoso no hejuru ikaba iteye hasi.

Ni indege ya Kajugujugu iri Ku kibuga, ni ubururu n'umweru.

Ni inama yateraniye mu biro， harimo abagore， harimo abagabo， imbere yabo hari amazi， hari n'amakayi n' amakaramu bari gukoresha.

Bari mu n'ama buri wese aricaye afite ikayi n'ikaramu, yambaye n'agapfukamunwa.

Ni umugabo wambaye ingofero ,wambaye ikoti ,Ari kuvuza umuduri, bamutunze mikoro.

Umudamu uri gucuruza yambaye ikanzu yumutuku, n'umupira w'umuhondo, arikwereka abakiriya ibicuruzwa.

Ni umukobwa uri kubyina, uri ushimisha abantu, yiteze urugori, yambaye umwenda w'icyatsi, arambuye amaboko, ari guseka, ari guseka.

Ni inka z'inyambo zifite amahembe maremare, hakaba ha hagaze abagore, abagabo mbese n'ibiti biri iruhande rwazo.

Ni umugabo n'umugore bambaye imyenda, basigagatiye n'uruhinja, bafite n'inkongoro iruhande rwabo.

Umusore n'inkumi bafite umuduri, cyane igikoresho cya gakondo cyo mu cyobe cya gakondo, cy'umucuranzi cya kera, ibyiza byacyo rero ni uko ari igikoresho cya gakondo, gituma abantu bakunda iyo videwo.

Hari intore ebyiri zirimo guhamiriza. Akamaro k'intore ni ugususurutsa Abanyarwanda, ni ugususurutsa Abanyarwanda.

Ni ingagi icigatiye umwana hafi y'iyi nzu, mu ishyamba.

Ni intore ziri guhamiriza, abakobwa bambaye imikenyero, ndetse mu mutwe batambirijemo amakamba, barabyina neza.

Ni umadamu uri kusorera ibishyimbo, hari n'umugabo n'umugore, ubwo ni batatu. Bagiye gupimura, hariho n'umunzani.

Ni abakobwa batatu bari mu nzu. Bafite ibyansi bitatu bakaba bari gucunda amata.

Ni abasore, harimo ufite icumu rirerire n'imigara miremire, yicaye ku ndogobe, abandi na bo barinikije.

Ni ababyinnyi bari gususurutsa abantu bicaye, bamwe barikoreye abandi bakinze amaboko.

Ni telefoni ya simatifoni ifite na kava yayo. Mo hagati harimo akantu k'umweru ,hakabamo n'akaronko gatambitse.

Hari ibiti ku muhanda, hakaba n' ipoto y'amashanyarazi yaka ku muhanda, hakaba n' izindi ndabo ziteye ku ruhande.

Ni etaje igeretse gatatu, imbere hariho pasiparama, hari n'umuhanda inyuma hariho n'indi etaje.

Ni urusengero rwubatse ku butaka rufite ubusitani nindi nzi mu gikari hejuru y'umuryango hari umusaraba rusakaje amabati y'umutuku.

Ni ikigo gifite ubutaka bunini hafi y'umuhanda. Hari imodoka eshatu ziri guhinguka. Isakaje amabati y'ubururu n'irangi ry'umuhondo mu matafari.

Ni inzu igeretse rimwe, isakaje amabati y'umutuku, ikingishije ibirahure.

Hari kiriziya ifite ubusitani，ifite imbuga， ifite umuryango， hejuru hariho ishusho ya yesu.

Ni inzu igeretse kabiri imbere hariho urubaraza rw'amabati, hakabaho n'ipoto y'amashanyarazi acanwa ku muhanda.

Ni gereza yubatse mu butaka, umuryango urafunguye imbere harimo ushinzwe umutekano, hejuru handitseho gereza ya Musanze.

Ni urusengero rwubatse ku butaka, haparitseho imodoka eshatu, hari n'umukecuru uri kujyayo n'umugabo, hejuru hari umusaraba.

Ni kiliziya ifite ubutaka imbere hateye irangi ry'umuhondo, hari umusaraba, hari umuryango, ku ruhande hari abantu batatu.

Inzu yubatse ku butaka, imbere hari amapave, iteye irangi ry'umuhondo, ifite ibirahuri by'ubururu, hejuru ikaba iteye irangi ry'icyatsi.

Ni urusengero rufite ubutaka, rufite n'inyubako, inzu iteye irangi ry'umuhondo. Ifite na porutayi y'icyatsi, ku ruhande hakaba hari n'izindi nzu.

Ni inzu ifite ikibanza hagati harimo agahanda, ifite ibaraza.

Ikigo gifite ubusitani, gifite igiti kinini, gisakaje amabati yumutuku.

Ni kiliziya yubakishije amatafari yubatse ku butaka, ifite amadirishya inasakaye hanze ku ruhande hari ishusho iteretse ku mbaho.

Inzu ifite ikibanza, inzu ifite ubusitani, ifite n'amapave. Mu gikari hakabaho indi nzu.

Ni ikigo cy'amashuri, gifite ubusitani. Gisakaje amabati y'umutuku n'icyatsi . Ni hafi y'umuhanda.

Inzu yubakishije, ni inzu yubatse, iteye igipande, isize irangi, urugi rwa pano, ifite iserire, ku muryango warwo hari ifoto y'umuntu.

Hari abantu batandukanye, harimo abagore abagabo bafite mikoro hari ufite umutaka, hari n'uwifashe neza.

Bari mu nama ni bane. Abagabo babiri n'abadamu babiri, imbere yabo bafite amakayi n'amazi.

Ni abaturage bari mu nama, baricaye, harimo abagore, harimo abagabo, harimo abana, harimo n'umuntu uhagaze uri kuremesha inama, n'uhagaze yambaye umutuku n'ingofero.

Ni abamotari bafite bambaye, moto z'umukara, kasike z'ubururu, zitwawe n'abagabo umwe wambaye ikoboyi ,agapira, agashati kagiye kuba nk'iroza. Hari umukobwa wambaye umupira w'umukara n'abandi bari gutega.

Ni imodoka iri mu muhanda bayita fuso, n'inyuma hariho indi hariho n'inzu.

Ni bisi ebyiri ziri mu muhanda, hakabamo n'imodoka isanzwe y'umweru n'abantu babiri, iruhande hari ipoto y'amashanyarazi.

Ni ikiyaga kirimo amato abiri, abagabo baburimo ni batandatu, harimo n'ibikoresho by'imyenda.

Ni, hari iduka, hari imodoka iri gupakurura imifuka, hari abagenzi babiri, umwe wikoreye n'uri kumuhereza, n'abandi babiri bari gupakurura.

Nahacururizwa hari ikiraro, hari umugabo wambaye bote z'icyatsi, afite agafuka ku rutugu hari n'undi uri inyuma ye.

Ni bisi iri mu muhanda itwaye abantu, ruguru yayo hari ishyamba, n' inyuma haturutseyo indi.

Hari imodoka iri muri kaburimbo, ipakiye imifuka irimo ibyayi.

Ni imodoka itwara abarwayi ibajyanye mu bitaro bikomeye, iri mu muhanda iraparitse mu bitaro.

Ni inzu ya etaje iteretse ku butaka, hari bisi imbere yayo hari na tagisivuwatire na tagisi vuwatiri, hari abandi bavandimwe bahagaze ku ruhande babiri, hari n'usohotsemo hariho n'itara.

Imodoka iri mu kibuga. Ni imodoka itatse amabara y'ivatiri. Irimo umushoferi.

Ni abakinnyi babiri bari mu kibuga, n'abafana bicaye barikogeza, ni abakobwa.

Ni umuhanda urimo amagare atatu ,abantu batanu, abakobwa batatu, n'umuhungu umwe.

Ni abantu batatu; uwambaye umutuku, uwambaye ubururu, uwambaye umukara,...

Abakinnyi bari ku kibuga cy'umupira, ni abagabo batatu bari mu kibuga, umwe yambaye umukara, undi umutuku n'uwambaye umukara n'umweru, n'abafana bari kuruhande bari gufana.

Ni abakinnyi bari mu kibuga baricaye, babiri barahagaze umwe yazamuye akaguru.

Ni abakinnyi bari mu kibuga bari mu myitozo, na sitade harimo abakinnyi, umukinnyi wazamuye akaguru hari n'undi wazamuye amaboko.

N'ikibuga cy'umupira kirimo abakobwa n'abagabo n'abafana hejuru muri sitade.

Ni umugabo wambaye agasengeri k'umweru n'umuhondo, n'umutuku, n'umukara, afite agakoni mu ntoki, iruhande rwe hari imigozi.

Hari irushanwa ry'amagare atandukanye harimo abazungu, abirabura, hari n'abandi bari ku muhanda babarangariye, n'abandi bari hejuru muri etaje, bose bategereje.

Irushanwa ry'amagare riri kurebwa n'abana, abakobwa, imbere ya ho hari umugabo, undi aramukurikiye n'igare, hari n'abaporisi.

N'abakinnyi bari gukina umupira n'abagabo batatu bari muri sitade.

Ni abakinnyi bari mu kibuga bari gukina, hariho abafana. Hari abicaye hari n'abahagaze, abakobwa n'abahungu.

Ni inzu ifite ubutaka bunini, hariho umuhanda, hariho indabo zizitije, mo imbere hari inzu nziza.